Umugabo wambaye igikoti kinini cy'umutuku, afashe agacupa mu ntoki n'agafuniko ari gupima umuti agiye gutera imyaka, imbere ye hateretse ipombo biragaragara ko agiye gutera umuti imyaka.

Ni ahantu hari indabo nyinshi hari n'ibyuzi, hari umugabo wambaye isengeri y'umweru afashe ifi mu ntoki biragaragara ko uyu mugabo ari umuntu worora amafi.

Ni mu murima, umurima hagati harimo abantu imbere yabo hari ikinogo cyuzuyemo amazi n'uruhande rwabo hari ikindi kiri kugaragara uruhande rumwe nacyo kirimo amazi, hakurya ni umusozi uriho ibiti.

Ahantu hameze nk'ahahinze umuceri, hagati hanyuzemo umugezi. Uwo mugezi uhagazemo abagabo batanu, harimo abambaye ubusa, bambaye amasengeri, bafashe urushundura bigaragara ko bari kuroba.

Igihinga cy'igihingwa k'ikawa, ikawa ni ibitumbwe ntabwo irera, yeze ari nyinshi buri gashami kagiye gafite udukawa twinshi twezeho amababi yayo yatangiye guhonga.

Umurima urimo ibigori birebire ariko bitaraterera, harimo ibyatsi byakuriye muri ibyo bigori, muri uwo murima hagazemo umudamu uri guseka yambaye agapira kajya gusa n'umukara, gafite ikora ry'umuhondo.

Umurima uteyemo ibiti by'amoko atandukanye, ibyo biti ni ibiti by'imbuto: harimo iby'indimu, harimo iby'amapapayi, harimo iby'amapera, iby'amapapayi amababi yabyo yatangiye kuma.

Umurima uteyeyemo uruyuzi, ururwo ruyuzi rwararanze cyane cyane, rufite amababi menshi ariko ariho umweru, bigaragara ko ari igihe cy'izuba, urwo ruyuzi nta bihaza birimo.

Umurima urimo ibiti by'imbuto harimo iby'amapapayi, harimo iby'indimu, harimo iby'amapera. Ibyo biti iby'amapapayi, harimo ibyatangiye guhonga.

Ni mu ishyamba, abantu babiri bari kugendana, harimo umukobwa, imbere yabo hari ikiraro kinyuze mu kirere kiri hagati y'ibiti birebire cyane.

Ni mu ishyamba, hari ibiti birunze hamwe, ibyo biti bironga mu matsinda, biragaragara ko umuntu wabironze, agiye gutwika amakara.

Imirima iteye mu buryo bw'amaterasi y'indinganire imirima hagati yayo hagiye harimo ibiti by'indumburabutaka; muri iyo mirima hari kugaragara amazu make ari imbere cyane ku mirima yo hakurya.

Ni ahantu hari ibihingwa byinshi imbere y'ibyo bihingwa, hari imisozi ibiri iteganye, imisozi iriho ibiti n'amaterasi y'indinganire hakurya y'iyo misozi hari ikirunga kiri kugaragara hejuru yacyo hari ibicu byinshi.

Icyumba gifungiranyemo inka, icyumba ibyumba byacyo biteye irangi ry'umutuku, n'urugi rwa mitalike ruteye irangi ry'umutuku. Icyumba kirimo inka nziza zibyibushye, uruhanga rwayo ibara ry'umweru yambaye iherena ku gutwi ry'umuhondo.

Icyumba kirimo amakaro, muri icyo cyumba harimo igikoresho kiri mu mabara ajya gusa n'ubururu ndetse n'ay'umutuku. Hejuru kimeze nka senti bacuranga, hasi gifite amapine manini, abiri y'imbere n'utundi dupine dutoya tw'inyuma.

Ifamu irimo ibiti biteye bitandukanye, harimo igiti cy'umuduha, muri iyo famu harimo ibiraro birimo inka z'inyambo zifite amahembe maremare, ku ruhande rw'ibyo biraro hahagaze abantu, harimo abambaye amataburiya y'ubururu, bigaragara ko baje kwita kuri izo nka.

Imbuto z'amoko atandukanye, hari iz'umutuku, hari iz'umukara n'umweru, haz'icyatsi, hariz'umweru gusa, harimo ibishyimbo by'umutuku, harimo amashaza, harimo ibishyimbo by'umweru, bifite umukara ku majisho yabyo, harimo n'izindi mbuto zitandukanye.

Ameza aya meza ateretseho igisahani cy'umweru, iki gisahani kirimo ibishyimbo, ibishyimbo by'amoko atandukanye, harimo ibishyimbo byo gusa n'ikivuvu, harimo iby'umukara, harimo n'iby'umweru.

Inyamaswa iryamye, ifite igisebe kinini cyane, hariho ikiganza gifashe icyuma, kiri gukoza icyo cyuma, mu gisebe cy'iyo nyamaswa, biragaragara ko ari umuganga kuko icyo kiganza cyambaye ga z'ubururu.

Ni ahantu hari inkoko nyinshi. Izo nkoko harimo iz'amabara atandukanye hari iz'umukara, iz'umukara n'umweru, hari iz'ikigina, hari iz'umweru, biragaragara ko ari ahantu bororera inkoko.